Ifoto y'umukobwa n'umusore, bicaranye begamiranyeho, bose bambaye amapataro y'ubururu, umukobwa yambaye inkweto z'umweru, umusore yambaye inkweto z'umukara, baseka banezerewe.

Ifoto y'abantu bakora mu byerekeye muri mobayiro mane, bambaye imipira y'umuhondo n'ingofero z'ubururu. Iruhande hari umuntu ufite terefone mu ntoki na anverope mu ntoki ishushanyijeho umuntu, hariho n'ibara ry'umutuku ry'murongo usa n'uri mugufiya, agifite mu ntoki.

Ifoto igaragaza uko umuntu yabona serivisi z' ubukerarugendo harimo ibyemezo binyuranye harimo icy'uko umuntu ari ingaragu, icy'ubukene, icy'uko uri imfubyi, icy'uko waba warakoze jenoside kandi utishoboye, ni byo birimo hano.

Ifoto y'inzu nziza yubatse ahantu heza hateguye, ifite ibara ry'ubururu n'amabati y'umutuku, imbere yayo hashashe rwose amapave meza cyane ndetse hariho n'indabo, iruhande rw'inzu. Bigaragara ko ari iy'umuntu rwose ukomeye yubatse n'ahantu heza cyane.